Mwarimu ari mu ishuri ndetse arigisha abanyeshuri kugira ngo babashe kwiyungura ku bwenge ku bintu bigiye bitandukanye, aho abanyeshuri bishimiye mwarimu. Abanyeshuri bicaye neza ku ntebe zitandukanye ndetse n'ingeri zose ni abana batoya bo mu mwaka wa mbere ndetse bishimiye kumva mwarimu ibyo arikubabwira.

Abanyeshuri bo mumwaka wa mbere bicaye ku meza, ameza y'icyatsi ndetse bishimiye bicaye baganira, kandi bambaye neza, bishimiye kuganirira hamwe bari kumwe kandi babyishimiye cyane bakeye, kandi bari mu mutuzo ,nta muvundo uhari ,bari kumva ibiganiro bituruka hagati yabo.

Abanyeshuri ba primaire bambara icyatsi hasi ndetse bakambara n'ibara ryenda gusa umuhondo hejuru, barakora akarasisi bizihiwe. Aho ubona, ni urujya n'uruza rw'abanyeshuri bari mu kigo ndetse bizihiwe bariho bari gukora uruziga kugirango ngo babashe gukina umukino runaka.

Abana bato iyo bahagarariwe n'umubyeyi, abo bana baba bishimye kandi uwo mubyeyi abatoza urukundo rwiza kandi ruhebuje, aho buri mwana wese yiyumvamo undi maze bagakura mu rukundo bakabasha no gusabana hagati yabo maze bagakura neza bagakura no mu buzima bwiza.

Abana iyo bakina imikino igiye inyuranye kandi ishimishije baba bizihiwe, cyane cyane abana batoya, bicaye ku matabure baba bakora neza imikino yabo, kandi ubona ko baba bishimye bizihiwe cyane ku byo bakora, kandi na mwarimu ubibakoresha baba bumva bamukunze cyane.

Abanyeshuri bo mu kiburamwaka bicaye neza kandi bari gukurikira mwarimu ibyo mwarimu yigisha, mwarimu arigisha yifashishije ibishushanyo kugira ngo babashe kumva neza, kandi umwarimu mwiza buriya yigisha yambaye itaburiya ni bwo ubasha kumutandukanya n'abandi banyeshuri, kandi biba byiza iyo ibyo yigisha abanyeshuri bari kubifata neza.

Abana bo mu kiburamwaka bameze neza bari kumwe n'umuyobozi wabo umubyeyi mwiza, arimo arabigisha imico igiye itandukanye arimo arabigisha uburere mboneragihugu kandi bameze neza bambaye amashati y'umweru kandi bambaye n'amakabutura y'imikara barishimye cyane, bimwe mu bintu bituma abanyeshuri bishima n'uko baba bari kumwe n'umuyobozi wabo ababwira ibintu byiza.

Abana bicaye, neza ku kirago. Barishimye kandi bameze neza. Nta kibazo bafite, buri wese afite isahane ye, ararya yishimye. Harimo, abambaye iniforume, ndetse n'abatambaye iniforume. Abambaye inifurome urabona ko baberewe cyane kandi basa neza. Kandi bicaye ku murongo neza nk'abana bafite disipuline bicaye mu nzu, kandi inzu imeze neza.

Abana biga mu kiburamwaka ni abana baba bishimiye cyane, kandi mwarimu ubigisha biba byiza iyo akoresheje ibishushanyo, kugira ngo umwana ajye abasha kumva neza anareba icyo mwarimu amubwira, kandi biba byiza iyo umuhaye ibitabo na we akimenyereza gusoma ,akajya amenya igishushanyo agasobanuza mwarimu igishushanyo icyo ari cyo, kandi usanga umwana na we abyishimiye kandi bigashimisha na mwarimu.

Ishuri riba ryiza iyo rifite intebe mwarimu yicaraho ndetse n'izo abanyeshuri bicaraho, aho bicara bumva batabangamiwe; kandi buri ntebe ikajya yicaraho babiri babiri ni bwo bumva bisanzuye, kandi ishuri riba ryiza iyo rifite akabati babikamo ibikoresho bijyiye bitandukanye, hari n'abana babikamo ibikoresho byabo nk'imipira cyangwa ibyo kurya bitewe n'ikigo runaka.

Abanyeshuri bagiye batandukanye, bamwe barinjira mu ishuri abandi bari gusohoka mu ishuri, bambaye amashati y'ubururu ndetse n'amakabutura y'amakaki, bamwe bambaye n'inkweto za bodaboda za purasitike, zikoze mu ibiparasitike kugira ngo bakomeze na bo babe muzima bwiza ni uko bajya ku ishuri, bagafata ubumenyi abarimu babaha.

Ishuri ryiza, rifite amabati, risakaye neza kandi ryubakishije amatafari y'impunyu, rifite ikibaho cy'umukara ndetse n'icyapa cyangwa igishushanyo kigiye kiriho inyuguti zigiye zitandukanye zifasha umwana kwiga neza ndetse n'intebe, aho umwana abasha kwicara, akazisoma neza, atekanye.

Abana ba garidiyene kugira bafate usanga abarimu bifashisha bigiye bitandukanye, aho bafata bagashushanya inzu barangiza bakandikaho ko ari inzu kugira ngo umwana azabashe gukura neza azi ngo iyi ni inzu nk'uko mwarimu yayimwigishije.

Ikibaho cy'ibiti abana bigiraho gusoma, biga kuvuga ururimi rw'icyongereza ndetse bakoresheje ingwa kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo, aho biga kuva ku mibare igiye itandukanye kugira ngo bagire ahantu bagera mu mibare igiye itandukanye biga.

Ikigo cy'amashuri kimeze neza, gikikijwe na senyenge, ndetse gifite abanyeshuri ba pirimeri, bambara kacyi zisa bambara kacyi, ndetse icyo kigo gisakaye n'amabati, kandi kimeze neza gifite na rigori ku buryo umuvu ushobora kuza w'amazi akaba ariho unyura, ni ikigo ntigisenyuke.

Ishuri rifite ikibaho cy'umutaka riyikikijwe n'amatafari y'impunnyu amatafari ahiye neza ndetse n'intebe ziri mu ishuri, ishuri rikoze neza, ishuri abanyeshuri binjiramo bakiga maze bagakomeza kwita ku bumenyi bwabo kandi bagafata neza.

Abana batoya na bo dukunda gusanga bakora ibintu bigiye bitandukanye kandi bishimishije, aho abana bafata amashashi bakazinga, ndetse bagafata n'ibyatsi bakazingiramo, ariko akenshi bakoresha amashashi, aho bafata amashi bagashyiraho n'urundi rudodo cyangwa bagashyiraho umugozi, bakagenda basobekeranya, maze bagakora umupira, bagakina batagiye kugura imipira ihenze ku isoko.

Buriya biba byiza iyo ibigo by'amashuri bifite..., ibifite ibigega bikusanya amazi y'imvura, kuko hari igihe amazi ya robine abura, noneho bakifashisha ya mazi y'imvura basukura ahantu hajyiye hatandukanye, bakoropa amashuri; noneho nk'abana biga egisiterina, aho usanga baza bazana ibitaka, noneho ya mazi yabuze nko mu gihe cy'impeshyi, ushobora kwifashisha ya mazi y'imvura yagiye ajya mu bigega.

Abanyeshuri bari mu kigo cy'amashuri kandi ikigo cy'amashuri kimeze neza, aho ikigo cy'amashuri cyubatse neza gikikijwe n'urugo rw'amatafari, amatafari ahiye, abanyeshuri bambaye neza, abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere ndetse n'umwaka wa kabiri bagiye bari mu byiciro bigiye bitandukanye, abahungu ndetse n'abakobwa.

Mu bigo bigiye bitandukanye by'amashuri, tugira ingengabihe cyangwa ingengamasomo, aho dusanga kugira ngo abarimu batabyiganira mu ishuri, aho abarimu bakora imbonerahamwe bakagenda bashyiramo amasaha abanyeshuri bari buze kwiga, ndetse n'ibyo bari buze kwiga muri ayo masaha, bigatuma abanyeshuri bamenya icyo bagiye kwiga bakacyitegura neza.

Imifuniko y'inzoga, inzoga ziba mu macupa zigiye zitandukanye, harimo inzoga bita sikolo mu ndimi z'amahanga, ndetse n'izo bita primus mu ndimi z'amahanga, ni inzoga zinywebwa, n'imifuniko iri hasi kandi irarundanyije harimo imisumari, ndetse iri no ku kintu cyiza, kandi ubona ko itakangiza abantu.

Umunyeshuri arakoresha mudasobwa neza kugirango abashe gusobanukirwa bimwe na bimwe ndetse n'ibice bigiye bitandukanye bya mudasobwa, aracaginga mudasobwa kugira ngo umuriro utamushirana ibyo yakoraga bikangirika. Arishimye kandi aricaye mu ishuri, ishuri ryubatse neza kandi rifite ikibaho kandi ubona ko abyishimiye cyane.

Umuhanda mwiza w'igitaka ariko umeze neza, ndetse na pasiparumu aho ipasiparumu ziba zegereye amashuri, kugira ngo abana bajye babasha kwidagadura neza nta vumbi. Ndetse n'amashuri yubatse neza yegereye n'insengero, kugira ngo urusengero bajye babasha kujyamo bajya gusingiza lmana, n'ibindi byinshi bakorera muri urwo rusengero.

Kwigisha abana neza kugiran ngo babashe gufata buriya ni ugukora ibishushanyo ukabyandika kumpapuro cyangwa ukazandika kuri deblicata nini noneho abana bakabasha kubisoma bamenya ngo niba tuvuze ngo iki ni ikinyampande eshatu icyo kinyampande eshatu ukanagishushanya ukacyandika mumagambo ukanagishushanyayo nibwo umwana akura neza afunguye mumutwe umwana agakura azi icyo akora icyo ari cyo.

Ukigera kuri G.S Cyarwa muri Huye uhita ubona igicumbi rwose winjira, winjira ureba igicumbi, winjira ureba icyapa aho uhita wibwira ko hano hantu hari abana bazi ubwenge, abana bambaye iniforume, ishati z'ubururu, bakambara n'amakabutura y'amakaki ndetse n'abandi n'ibyiciro bigiye bitandukanye by'abana.

Abanyeshuri bambaye iniforume, bambaye amajipo ndetse n'ipantaro zisa kaki, amashati y'ubururu ndetse bameze neza, bari ahantu heza cyane kandi bishimiye ishuri ryabo.

Mu Rwanda naho tugenda dusangamo ibigo by'abihaye imana, ibigo bigiye bitandukanye aho usanga mu bihayimana nabo bagira isuku, bafite amazu meza basiga amarangi yumweru, ndetse bafite n'ibibuga byo gukiniramo, ndetse bafite n'ahantu abana bashobora kuza bagataramira babishimiye.

Mu Rwanda tugira ibigega bigiye bitandukanye by'amazi bihurizwamo amazi y'imvura ava mu kirere akagwa ku mubati, ubundi akinjira muri ibyo bigega, ibyo bigega rero bidufasha gukoresha amazi, amazi ajyamo mu gihe cy'impeshyi cyangwa mu gihe bibaye ngombwa amazi adufasha gukora amasuku ahantu hagiye hatandukanye.

U Rwanda narwo ruri mu bihugu bigenda bitera imbere, aho usanga u Rwanda rushyiraho ibirangantego cyangwa rugashyiraho ibishushanyo cyangwa ibyapa kugira ngo buri wese amenye iki gikorwa kigiye kubera ahantu, nta kujya ahantu habereye inama cyangwa habereye iyamamaza runaka, ariko nta cyapa gihari ngo kikwereke ko aho hantu hari kubera igikorwa runaka.

Abanyeshuri bambaye neza imipira y'umukara, amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ndetse n'amajipo y'amakaki n'inkweto zifunze bateraniye hamwe. Ni urujya n'uruza rw'abanyeshuri kandi bari mu kigo gikikijwe n'ibiti, ibiti byiza bikurura umwuka duhumeka kandi bishimye cyane bazamuye amaboko hejuru.

Ibigo by'amashuri byagiye bitera imbere, aho umwana w'umukobwa na we asigaye akora imyitozo ngororamubiri, aho abana basigaye bakina, abana b'abakobwa ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bagakina umupira w'amaguru kandi babyishimiye cyane, aho baba bambaye imyambaro yabo, kugira ngo babashe kujya mu kibuga nta ki, nta nkomyi, nta kibakoma.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bagiye batandukanye bari ku bigo bahuriye hamwe, baje kwizihiza umunsi runaka cyangwa umunsi wabo kandi bishimye cyane bose bari guharanira kureba imbere, bagiye bambaye imyenda igiye itandukanye, hari abambaye imyenda migufi y'amabara y'umuhondo ndetse n'abambaye amashati y'imyeru.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bateze amatwi uri kubaha ikiganiro, ndetse n'abarimu nabo bateze amatwi uri kubaha ikiganiro, wambaye imyenda imyenda y'umweru cyangwa iniforome y'umweru, imipira yenda gusa kaki, bari mu kigo cy'amashuri kandi bizeye uba batega amatwi uri kubaha ikiganiro.

Mu bigo bigiye bitandukanye dusangamo ibigo by'abihaye imana. Aho usanga haba harimo abana b'abakobwa, abana b'abakobwa bita ku mashusho cyangwa bita ku mashusho ya yezu kristu. Aho usanga abana baba bambaye iniforume ndetse iniforume z'umweru ndetse n'iza kaki kandi barangamiye umusaraba wa yezu kugira ngo babashe kumuramya ndetse no kumukuza.

Mu Rwanda dukora siporo zigiye zitandukanye. Aho usanga hadu ibibuga by'umupira w'amaguru ndetse n'ibibuga bya basikete. Aho usanga tugira ibibuga bigiye bitandukanye bya basikete. Aho umuntu agororera ingingo ziwe. Hari umukino w'amaboko, kandi uwo mukino ukundwa n'abantu benshi mu gihugu.

Abana biga mu bigo bya segonderi usanga akenshi barya umuceri w'umweru kandi bakarya umuceri uri mu madishi cyangwa mu masafuriya yabugenewe cyangwa mu mabase, ahanini usanga noneho abana baba bizihiwe cyane, aho usanga ariko bamwe barya ntibage bitewe n'impamvu runaka.

Nibyiza buriya kubererekera imodoka zikabanza zigatambuka ,kugira ngo umuntu abashe kwirinda impanuka, ni uguhagarara ahabugenewe mu banyamaguru, abanyamaguru bagahagarara muhihande cy'abanyamaguru, maze imodoka zikabasha gutambuka, zamara gutambuka ,umuntu akabasha kwambuka.

Mu Gihugu cy'u Rwanda hari aho tugenda dusanga abanyeshuri bambara neza, abanyeshuri bambara amapantaro asa umukara, amashati y'imyeru ndetse n'imipira isa ubururu, aho dusanga bifite ibigo by'amashuri byiza ,aho abanyeshuri bashobora kugama imvura mu gihe iguye, ndetse babasha guhagarara ku mabaraza bari kuganira ,kugira ngo bafatanye bungurane ubumenyi, ku bintu bigiye bitandukanye baba bize.

Abanyeshuri bo mu ngeri zigiye zitandukanye, aho bari mu isomero basoma ibitabo bigiye bitandukanye, harimo ibitabo by'imibare ndetse n'ibitabo bigiye bitandukanye, aho usanga u Rwanda rwagiye rutera imbere kubera guha abanyeshuri aho basomera, bakiyungura ku bwenge, ndetse bagakomeza gutera imbere.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari, gifite imiryango y'umweru, imiryango myiza cyane ndetse gifite n'amabati y'umutuku, gifite indabo nziza kandi zikase neza, abazikase barazitondeye bazikata neza, kandi gifite pasiparumu, aho buri wese ashobora kugenda akicara akota akazuba cyangwa akugama izuba mu gihe biri ngombwa.

Abapolisi b'u Rwanda na bo ntabwo batwibagiwe aho usanga baza mu bigo by'amashuri kutwigisha ibintu bigiye bitandukanye bakatwigisha uburyo tugomba kwitwara mu muhanda, uburyo tugomba kwitwara mu bikorwa runaka tuba turimo, uburyo tugomba kwirinda inda zitateganyijwe, aho usanga abanyeshuri baba bambaye neza, hari ibigo biba byambaye amashati yenda gusa ubururu, byambaye amapantaro yenda gusa, rwose bicaye no ku ntebe y'icyatsi baryohewe.

Mu Rwanda, tugenda dusanga ibigo byiza kandi bishimishije ibigo ushobora kugeramo ukumva urishimye, kandi ushobora kugeramo ukumva ugeze mu kigo cyiza, aho usanga abana baba bambaye iniforume nziza, bambaye neza, batebeje, ndetse bafite n’ibibuga bitandukanye, aho usanga bakinira umupira w’amaboko. Bafite kandi amashuri meza, aho nta taka rishobora kubajya ku nkweto.

Umuhanda mwiza, umuhanda mwiza ubona abanyamaguru bafite aho bagendera ndetse n'ibinyabiziga bikaba bifite aho bigendera, ndetse umuhanda mwiza uteyeho ibiti byiza ibyo biti bikurura umwuka duhumeka, aho usanga binafata ubutaka kugirango ubutaka butabasha kwangirika ugasenya umuhanda.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu heza nubwo haba hatarimo sima ahantu hose, ariko ni ikigo cy'amashuri kimeze neza, gifite amabati y'ubururu, ndetse kirimo abanyeshuri, abanyeshuri bizihiwe n'ahantu bari, kandi bameze neza nta kibazo, ndetse bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'amajipo yenda gusa n'ubururu.

Abanyeshuri bambaye amashati y’umweru, ndetse n’abambaye imipira y’ubururu n’amapantaro y’umukara, n’abarimu babo bambaye amataburiya, bari mu kigo cy’amashuri. Kandi iki kigo cy’amashuri ni cyiza. Bateze amatwi uri kubaha ikiganiro, kugira ngo babashe kumukurikira neza, ndetse bumve n’ibyo uri kubabwira ari kuvuga.

Abanyeshuri barakora imyitozo bagakora icyo bategetswe na mwalimu bari ahantu heza kandi hashimishije, abanyeshuri iyo bari ahantu heza amadirishya afunguye neza mugihe hari ubushyuhe ndetse ayo madirishya yinjiza umwuka bigatuma bakora neza nta cyokere kandi bagakurikira mwalimu ibyo mwarimu ababwiye bakabikora bashishikaye kandi bishimye.

Ku kigo cy'amashuri cya Ecole Maternelle, kimeze neza rwose ubona ko n'ubwo mo imbere harimo amategura, gifite amategura ariko ni ikigo gifite porotayi nziza, ku buryo buri wese ushobora kuhanyura, ashobora kukitegereza neza, akareba ibirango byacyo, abana babiri bashushanyijeho, urabona ko gifite n'umuhanda w'igitaka umeze neza.

Ibiro byiza bishimishije ni ibiro usanga bafite ameza agezweho, bifite intebe nziza zigezweho, intebe z'icyatsi, intebe z'ubururu ndetse zifite n'amarado kugira ngo akayaga kajye kabasha gutambuka, n'amadirishya manini, kugira ngo hajye habaho ventirasheni umuyaga winjire unasohoke.

Inzu nziza irimo amakaro kandi itatse neza kandi ubona ko buri wese yayishimira igiye iteretseho utuntu twiza kandi dushimishije, ituretseho uducupa tugiye dutandukanye tw'amoko atandukanye, ubona ko wanahakorera inama kandi inama ikagenda neza.

Isomero rimeze neza kandi ririmo ibitabo by'amoko yose bigiye bitandukanye, aho buri mwana cyangwa buri n'umuntu mukuru ushobora kuza, ugutoranyamo igitabo wumva wishimiye, kandi ahantu heza bigiye biri ku murongo, ku buryo udashobora gusobwa, mu gihe uririmo gukuramo igitabo ushaka gusoma bitewe n'icyo wifuza.

Intebe nziza kandi zimeze neza ziri rahantu hari amakaro hasukuye kandi hameze neza ku buryo buri wese ashobora kuhishimira, amatara kandi amurika ndetse n'igisenge gisakaye neza, nta kibazo ku buryo buri wese yakishimira kuhigira cyangwa kuhakorera inama kuko hateguye neza cyane.

Abagabo rwose beza bambaye neza, bari kureba ku kintu runaka bashobora kwigaho biri mu ishuri ndetse bari gufata umwanzuro ku kintu runaka bari kureba, harimo abambayetaburiya ndetse n'abambaye amakoti, ipantaro ndetse n'inkweto zifunze, bameze neza ubona ko hari icyo bari kwigaho kandi gishobora gutanga umusaruro.

Mu gihugu cy'u Rwanda naho iterambere ryaramaze kuhagera aho dusanga twifashisha ibyuma kugirango turebe ibintu bitabasha kugaragara n'amaso yacu ahubwo tukifashisha ibyuma na za mudasobwa noneho tukabasha kubireba neza twaje kumenya nicyo bisobanuye nk'urugero hari igihe dusanga mu ma laboratwari agiye atandukanye dusangamo ibyuma bipima Malariya aho usanga agakoko kanduza Malariya tugasangamo kandi kagaragara neza.

Uriya mwuga w'ubwubatsi na wo ni umwuga mwiza kuko nk'abanyeshuri biga iby'ubwubatsi usanga biba byiza, iyo wubaka inzu kandi ntabwo biba byiza iyo umuntu ajya kubaka inzu atarabyigiye, biba byiza iyo wabyigiye usanga ahanini twirinda imitingito ije, usanga inzu ziba zikomeye mura ukajya mu nzu wumva ko uri mu nzu nta rwikekwe ufite.

Inzu nziza yamuturirwa imeze neza ifite umuhanda w'umukara ndetse ifite n'ibiti bizana amahuhwezi cyangwa ibiti bishobora kuzana ogisijeni cyangwa se bishobora gukurura ogisijeni umuntu ashobora no kugamiramo izuba cyangwa imvura mu gihe bibaye ngombwa.

Matera zishashe ku gitanda ziri ahantu hari sima, hari imiryango myiza ndetse hari n'akabati aho buri wese yinjirira cyangwa icyumba buri wese yinjiramo kugira ngo abashe kuryama.

Ibigega bifata amazi kandi bimeze neza bifata amazi menshi y'imvura aturuka ku mabati ndetse urucaca rwiza rwanditsemo imyenda, imyenda y'imyeru ndetse n'amakoboyi, amazu meza, atatse neza, y'umuturirwa kandi ari ahantu heza cyane.

Igihugu cy'u Rwanda gifite mudasobwa, mudasobwa zidufasha mu kwiga, mu kwiga vuba ndetse zidufasha mu kwakira ibintu byinshi umuntu atabasha kwandika n'ikaramu, zidufasha mu myigire yacu kandi mudasobwa ziri mu ikoranabuhanga rituma abana bakomeza gutera imbere kandi bakomeza no kuvumbura ibintu bigiye bitandukanye.

Musanga mu gihe mu bihe bigiye bitandukanye cyangwa mu hantu hagiye hatandukanye dusigaye tubona intebe zigezweho, ameza agezweho, aho wicara wisanzuye, ukabona wagira ngo wicaye no mu nteko nkaziriya z'abadepite, rwose ukabona wicaye neza kubera intebe zigiye zimeze neza.

Pasiparumu ndetse n'imihanda itatse neza, inzu ya etaje kandi inzu ya etaje isakajwe n'amabati y'umutuku, ndetse n'abaturage bayirimo nabo bakoramo ibikorwa bigiye bitandukanye nabyo bishobora kubateza imbere cyangwa bishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Aho dusanga mu Rwanda hagiye hari amasomero agiye atandukanye aho dusanga amasomero agiye arimo ibitabo bigiye bitandukanye byigisha siyansi cyangwa byigisha izindi ndimi zigiye zitandukanye aho buri mwana ashobora kujya gusomera cyangwa agasoma kugira ngo yiyungure kubumenyi bwe asanzwe afite akamenya no gutera imbere mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse no kugira ubwenge muri bagenzi be.

Nta cyiza nko kugira inzu, ku buryo iyo nzu iba ifite ubwanikiro bw'imyenda, amasinga meza kandi idakikijwe n'umuhanda w'ibitaka, cyangwa umuhanda w'igitaka, kugira ngo ivumbi ritabasha kujya kuri ya myenda. Rero biba akarusho cyane, n'iyo ufite inzu nziza yirengeye ya etaje iteye neza.

Buriya etage nayo yo kubaka inzu ya muturirwa biri mu bintu nabyo bisigasira ubutaka aho usanga ubutaka butoya ushobora kubwubakamo inzu nyinshi kuko uba waragiye uzegeranya uzigerekeranya kugira ngo zibashe ubashe gufata ubutaka bwawe neza kandi ubashe gushyiramo ibikorwa byinshi mu butaka butoya.

Mu byumba bigiye bitandukanye hari ibyumba dusanga biba bimeze neza, aho biba bifite aho kumanika imyenda, ari iyo wakoranye ndetse n'imyenda uteganya kuzajyana mu rugendo cyangwa ahantu runaka, tukaba dufite na aka etage cyangwa akantu ko kurambikaho ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amatelefone ndetse n'amavuta twisiga, n'uburoso.

Abantu b'ingeri zose bagiye batandukanye, baje gutega amatwi inama baje gutega amatwi abayobozi babo bari kubavugezaho ikiganiro runaka, bicaye neza kandi abayobozi bicaye imbere kugira ngo babashe kumva cyangwa kumvikanisha ibyo bavuga kandi mu mutuzo ntawe ubangamira undi.

Ububaji buri mu bikorwa bigenda bitanga akazi ku bantu bagiye batandukanye, ku byiciro bigiye bitandukanye. Kandi ububaji buri mu bintu na byo ushobora gukora bikakwinjiriza amafaranga menshi, kuruta uko wabisobanurira undi muntu wese ngo abyumve. Ariko iyo ubyinjiyemo, urushaho kubyumva cyane; kandi ububaji na bwo buri mu bintu bituma, abantu bakomeza gutera imbere.

Amazu meza, ameze neza cyane ari ahantu heza hari amapave. Harimo ibyapa bibiri bigaragaza parikingi aho bagomba guparika, aho bagomba kunyura. Byerekana icyerekezo, amazu meza ya shato kandi amena amazi imbere, ubona ko biryohe ijisho cyane afite n'ubusitani mo hagati ya.

Abagabo beza bari mu cyumba biga ku bintu bigiye bitandukanye, aho bamwe bafite mudasobwa bareba bifashisha mudasobwa kugira ngo barebe ingingo runaka bagomba kwigaho, cyangwa barebe aho bageze mu byo bakoze, aho bari mu cyumba cyiza kandi gifite sima, kandi gifite n'intebe nziza, aho bashobora kuganirira bisanzuye kandi ntawe ubangamiye undi.

Mu byumba bigiye bitandukanye hari icyumba usanga kiba cyagiye gifite ibintu biri ku murongo neza, biri kuri gahunda, aho usanga icyumba usangaho hari ameza ku ruhande, ku ruhande rw'igitanda, ameza ushobora gushyiraho amazi yo kunywa, ndetse ushobora gushyiraho telefone mu gihe uyifite, igikombe ndetse n'amavuta yo kwisiga, bitabangamiye ibindi bintu byawe.

Kaminuza z'u Rwanda na zo tugiramo kaminuza zigiye ziri muri za muturirwa. Aho kugira ngo basigasirare ubutaka, bubaka bagereka inzu hejuru y'iyindi, kugira ngo babashe gusigasira ubutaka, kugira ngo ubutaka butoya, bukorerweho ibikorwa byinshi kandi byiza.

Inzu ifite amarange y'imyeru iri mu nzu zigaragaza ko uwo muntu uyibamo cyangwa abantu bayibamo bagira isuku cyane, kandi usanga iba nziza iyo ifite imiryango imeze nka shokora cyangwa isa shokora, kandi ikaba akarusha ufite amabati y'umutuku, ibyo birushaho kuba byiza.

Ishuri ryiza ryubakishije amatafari ahiye, cyangwa amatafari y'impunyu, rifite intebe nziza zo kwicaraho kandi mu buryo butabangamye, rifite ahantu ho kwandikira cyangwa kwifashisha, cyangwa gufashisha ikayi ku buryo ushobora kwandika wumva wisanzuye ntakigukoma.

Muri raburatwariri hagiye hakorerwamo ibintu ibintu bigiye bitandukanye, nko gusuzuma malariya ,gusuzuma inzoka zigiye zitandukanye mu misarani aho barebera muri mikorosikopi, aho ureba ukareba icyo umuntu arwaye wifashishije ibimenyetso wifashishije ibyo wagiye umukuraho, ushobora kuba wifashishije nk'umusarani cyangwa wifashishije inkari zigiye zitandukanye.

Umudamu mwiza watuye mu nzu irimo amakaro kandi ifite amarido n'ibitanda bigiye bitandukanye usanga aba ari inzu ifatika inzu nawe aba yishimiye aho yicara akumva aratekanye nta mwanda ntavumbi nibwo nawe yumva yicaye ahantu heza harimo marido akayaga kinjira gasohoka bityo agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Nta kiza nk'uwokoreraye inama ahantu heza hari amakaro kandi hameze neza hubatse neza hasize amarangi y'umweru agaragara ko hakorerwa ibikorwa nabyo bifite isuku cyangwa ibikorwa bikeye aho usanga abagabo ndetse n'abagore bateze amatwi uri kubaha ikiganiro kigiye gitandukanye bitewe n'ingingo bariho.